Inzu isa neza，irimo urukarabiro，ndetse n'idirishya ry'ikirahure，ririmo utuntu tw'ubururu，rifite utubati two gushyiramo ibikoresho， twiza cyane.

Abantu bari mu ibarizo, bafite imashini zibaza imbaho. Bambaye amasarubeti ya kaki, udupfukamuwa utw'umutuku ndetse n'ubururu, n'utundi tugiye kuba umweru.

Abaganga batatu, basa n'aho bari kwigisha abanyeshuri bari muri sitage, bitegura kuzaba abaganga, mu minsi iri imbere.

Abantu bicaye barimo kudoda imyenda bifashishije imashini zidoda imyenda. Harimo abakobwa n'abadamu basa neza.

Abanyeshuri bari kumwe na mwarimu, bari gukoresha mudasobwa barimo kwiga ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho.

Abantu benshi batonze umurongo hari n'abasutamye, bigaragarako bafashe positeri bitegura gufotorwa, iruhande rwabo hari ikibumbano cy'ingagi.

Abamama benshi bari kumwe n'abakobwa, bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, bafite amazi imbere ya bo, ku meza ariho imashini zidoda imyenda.

Umugabo usa naho ari umwenjeniyeri ufite kamera nziza iteretse kuri terepiye, wambaye ingofero igiye kuba umuhondo n'isurubeti y'ubururu.

Abasore batanu, bari gukora ibintu bijyanye n'ububaji nta ngofero bambaye, bambaye inkweto zifunguye, bambaye amasarubeti atandukanye, amwe ajya kubaka umweru abandi y'imikara.

Abarimu bari gukora ubushakashatsi, bambaye amataburiya y'imweruru, bafite imashini hagati ya bo. N'umumama witeze igitambara w'umwarimu, abandi nta bitambara biteze.

Abanyeshuri bishimye bafite ibishushanyo binyuranye, bambaye iniforume z'ubururu, ndetse n'umwarimu wambaye itaburiya y'umweru w'umugabo.

Abanyeshuri bambaye amataburiya y'umweru, n'ingofero z'imyeru b'abakobwa. Bari kwiga guteka bafite ibyo kurya, ku masahani y'imyeru ari ku meza.